Abantu batatu b'igitsina gabo bambaye amapingu, aho bigaragara ko baribye ibikoresho bya muzika birimo inanga ndetse n'ibindi byuma biyungurura amajwi, ndetse harimo n'isaha yo ku gikuta, bakaba bafashwe bashyikirijwe inzego zibishinzwe.

Abagabo bambaye imyambaro itandukanye, irimo imikara ndetse n'iza gisirikare. Aho umuyobozi wabo ari gufata ijambo, akababwira amabwiriza ngenderwaho y'uko ibikorwa byabo byakomeza kugenda neza.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ari kuyobora abanyamagare aho baranyura hakoresheje akaboko k'ibumoso, ndetse ari kurinda abaturage ko bakwinjira mu muhanda bagateza impanuka yifashishije umutekano yahawe ndetse n'inzego zibishinzwe.

Uko bigaragara aba ni abapolisi, abapolisi b'u Rwanda bari ku murongo bari guhabwa amabwiriza n'umuyobozi wabo bigaragare ko ari igikorwa barangije cyangwa se bagiye gutangira, umuyobozi wabo akaba abahagaze imbere.

Ikiganiro cyangwa se inama iri kuba hagati y'ubuyobozi bw'inzego z'umutekano ndetse n'abaturage muri rusange, aho ubihagarariye aba bafite indangururamajwi, ari kubagezaho ijambo yabateguriye nabo bateze amatwi.

Abasore n'inkumi bagaragara umwambaro w'impuzankano ya gisirikari ndetse bambaye n'ingofero, bose bishimye bigaragara ko bari guhabwa amabwiriza cyangwa se biteguye gukurikiza inama bari bugirwe.

Umugabo wambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano, ku rutugu rw'ibumoso hariho idarapo ry'igihugu, ndetse urutugu hejuru hariho amapeti aranga urwego agezeho mu rwego rwa gisirikare, ndetse yambaye n'ingofero bisa n'aho ari umuntu wishimye kandi ufite icyubahiro.

Amahugurwa cyangwa se imirongo ngenderwaho, yateranije abantu bari mu nzego zitandukanye barimo :abapolisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano ,aho biga ukuntu bakoresha neza mu bikoresho bikomoka kuri gaze, hirindwa cyane cyane muguteza impanuka.

Umugabo wambaye imyambaro igaragaza abashinzwe umutekano, iri mu ibara ry'umukara ndetse iriho n'ibendera ry'u Rwanda, aho yambaye n'ingofero ndetse afite amapeti agaragaza urwego agezeho.

Abagore batanu bambaye imyenda y'ibitenge, ndetse harimo umwe muri bo ari kwandika bisa naho bari kuganira, cyangwa se bafite ingingo bakuvugaho hanyuma akagenda ari kuzandika.

Umugabo wambaye indorerwamo z'umukara, ufite indangururamajwi, asa n'aho ari umuyobozi utanga ikiganiro, ku baturage bicaye mu mucaca ku izuba, bitwikiriye imitaka imitaka yo kuribarinda.

Umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, hariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ari gutanga ikiganiro mu baturage, bamuteze yombi, bicaye mu mucaca, kandi bari gukurikiza amabwiriza ari kubaha.

Inteko ziba mu baturage cyane cyane abaturage bo mu midugudu ziba hagati yabo n'abayobozi , aho baba batanga ibibazo byabo ndetse abayobozi bakaba babegereye ngo babasubize ndetse babikemurire . Izo nteko rero ziba ku munsi wagenwe, uba waremeranijweho na za komite z'utugari ndetse n'imidugudu.

Inteko y'abaturage barimo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza. Bicaye ahantu hamwe mu mucaca basa naho bateze amatwi umuyobozi wabo ku makuru cyangwa se inama ari kubagira ndetse akabakemurira n'ibibazo bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi.

Ibirori byahuruje abantu batandukanye, aho harimo abagore bikoreye ibyibo, ndetse n'abandi bambaye amasengeri y' imyeru, bari kubyina imbyino gakondo ndetse za kinyarwanda.

Abasore ndetse n'abakobwa bambaye imyenda gakondo, harimo imikenyero, ibihura, bafite amacumu n'ingabo aho bari kubyina imbyino gakondo bitewe n'abari gususuruka, ndetse inyuma yabo hariho inzu za cyami.

Umugabo wambaye imyenda isa n'igitaka, afite igikoresho cya muzika cyifashishwaga kera kugeza na n'ubu, gifatwa nka gakondo kitwa ihembe, aho gitanga amajwi meza ku bantu bamuteze yombi.

Ibiganza by'umuntu uri kuboha tumwe mu dutako cyangwa se uduseke, yifashishije ibyatsi n'utundi tugozi dufite amabara meza, arimo umuhondo, umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Umuntu uri kwifashisha bimwe mu bikoresho gakondo; birimo urusyo, ingasire, inkoko ndetse n' icyibo aho ari gufata ibinyampeke akabisya, ifu ikagwa ku nkoko hanyuma akayifashisha mu gutegura amafunguro.

Umugabo ufite igikoresho cy'umuziki kigizwe n'imirya, ndetse akaba yishimye kikaba cyitwa inanga, aho itanga amajwi meza. Cyifashishwaga mu gucuranga umuziki mu muco gakondo kuva kera, kugeza na n'ubu.

Igikorwa gikorwa n'amaboko y'abantu, ndetse hakifashishwa ibikoresho bya kijyambere, harimo urusyo ndetse n'ingasire, bikaba byifashishwa mu gikorwa cyo gusya impeke harimo amasaka, uburo ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri aho umwe ategereje undi mu gikorwa arimo cyo gusogongera cyangwa se cyokumva aho umutobe ugeze mu rwagwa baba barenze bagashyiramo urubetizi ubundi bagatara bagatwikiza amakoma.

Abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'ishuri bafite imirishyo mu ntoki, bari kuvuza ingoma zibajwe mu biti, kandi zibambishije uruhu rw'inka, bari gutanga injyana ku babyinnyi cyangwa se abaririmbyi babakurikiye.

Abakobwa beza bambaye imikenyero isa neza cyane, iri mu ibara rijya kuba umweru ndetse n'udusengeri tw'umweru, bigaragara ko bishimye bari kubyina, zimwe mu mbyino gakondo aho bari kwiyereka, ku bantu bari kubareba bitabiriye ibirori bari gususurutsa.

Abagabo bambaye imikinyero y'umutuku, harimo n'abambaye imkenyero y'umuhondo bafite amacumu, bambaye ibihura, ndetse bambaye nk'inigi cyangwa se urunigi, impande yabo hariho inzu zubatswe kinyarwanda. Bigaragara ko ari gushyigikira umucyo wa kera bari kubyina imbyino gakondo.

Umusaza w'igikara ufite ubwanwa buvanze n'imvi, asa n'uwatukuye amaso. Afite igikoresho gakondo cyifashishwa mu kunywa itabi, kikaba cyitwa inkono y'itabi mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Intore yambaye ibihura ku mutwe, ndetse yambaye n'imyambaro gakondo. Ifite icumu mu ntoki, ndetse afite ingabo mu kiganza. Iruhande rwe, hariho umucuranzi ufite inanga.

Abagabo batatu bose bahuze, umwe wambaye agapira k'umukara, undi ak'umutuku ndetse n'ingofero, afite n'uruhu rwera. Bahugiye mu gikorwa cyo gushaka umutobe mu mineke, aho bifashisha ubwatsi bwitwa ishinge ndetse n'umuvure, bagashakamo umutobe wo kunywa.

Ibikoresho byo mu muco gakondo bitandukanye, biri mu mabara meza, bisa nk'aho ari imitako. Birimo ibyibo, ibicuma, ndetse n’imiheha yo kunyweramo, mu gihe harimo ibinyobwa.

Kuboha ni bimwe mu bikorwa byakundwaga n'igitsina gore, aho usanga bari kuboha udukoresho dutandukanye turimo imitako, uduseke, ibyibo ndetse n'ibirago byo kwicaraho, bifashishije ubwatsi ndetse n'utundi dukoresho tumeze nk'imigozi.

Igikoresho cya muzika kidasaba umuriro w'amashanyarazi cyangwa se izindi ndangururamajwi, ahubwo kibajwe mu giti kikaba gifite imirya ikaba ari yo nanga yifashishwaga mu bihe bya kera, ndetse na n'ubu ikaba igikoreshwa mu gucuranga indirimbo gakondo, hasigasirwa umuco nyarwanda.

Umubare w'abasore n'abakobwa utari mutoya, aho bari kwifashisha amasuka bari guhinga ubutaka, bisa n'aho bashyize hamwe kugira ngo bagere ku ntego nini, kandi bibaye mu gihe gitoya.

Abana bagera kuri barindwi bari kwitegereza mugenzi wabo igikorwa ari gukora gakondo aho ari ugusya ifu yifashishije ibikoresho bya kinyarwanda birimo: urusyo, n'ingasire, yarangiza ifu akayishyira ku nkoko.

Abagabo bikuye hejuru, ndetse bambaye imishanana kandi bakaba bambaye ibihura. Bafite amacumu mu ntoki bigaragara ko bari gucinya akadiho, ndetse bari gususurutsa ababareba mu mbyino za gakondo.

Abaririmbyi gakondo bari kuririmba zimwe mu ndirimbo za kinyarwanda ,aho bari kwifashisha ibikoresho bya kinyarwanda harimo: ingoma, inanga ndetse bakaririmba nta bindi bikoresho bya muzika birimo, usibye akanwa kabo gusa.

Inkoko cyangwa se intara ebyiri, imwe iriho ifu, ndetse indi iriho amasaka. Ku ruhande rwazo hariho urusyo ndetse n'ingasire, ndetse n'iruhande rw'aho hariho icyibo kirimo amasaka, aho usanga urusyo rurikwifashishwa mu gusya iyo fu. Kugira ngo inyobwemo igikoma ndetse ikoreshwe mu bindi bintu bitandukanye.

Abagore bambaye imikenyero iri mu ibara ry'umuhondo bafite imirishyo bari kuvuza ingoma, bigaragara ko bari gususurutsa imbaga y'abantu bitabiriye ibyo birori.

Imyiyerekano cyangwa se ibirori. Iyo abantu bari kwigaragaza bazwi ku izina ry'intore, akenshi na kenshi baba bari kubyina imbyino gakondo cyangwa se za kinyarwanda, aho usanga bambaye imigara, ndetse bateze n'urugori bafite amacumu ndetse n'ingabo mu biganza byabo.

Abakaraza abagabo bambaye imikenyero, bambaye impuzankano y'umweru n'umukara, bafite imirishyo ndetse bari kuvuza ingoma, aho ababyinnyi bari kubyina bitewe n'injyana bari guhabwa n'abo bakaraza mu mbyino gakondo.

Abakobwa bane bambaye imyenda ya kinyarwanda, ndetse bari gukora ubukorikori bukunze kwibanda ku gitsina gore nko kuboha, ndetse no gusana imikeka cyangwa se ibirago byo kwicaraho, ndetse n'abandi bari kuboha ibyibo cyangwa se uduseke.

Igikoresho gakondo kibajwe mu giti giteretse ku kirago cyangwa se umukeka. Kikaba cyitwa isekuru ndetse hifashishwa n'igikoresho cyitwa umusekuzo cy'ingenzi cyacyo mu gihe baba bari gusekura ibikomoka ku buhinzi bitandukanye harimo: nk'imyumbati, isombe, ndetse n'urusenda, cyangwa se izindi mboga zose ziba zifuzwa mu kugira ngo zorohere.

Abagabo bishimye bari guhamiriza, bitwa intore. Bakenyeye imikenyero y’ubururu n’umweru, ndetse bambaye amakamba, bari gususurutsa ababagana mu mbyino gakondo.

Ibiganza by'umuntu biteruye ibyo kurya byaruriye ku ikoma bigizwe n'ibishyimbo , ibijumba , igitoki , amateke n'igihaza.

Umwuga wahozeho kuva kera, aho usanga umucuzi ari gucura yifashishije imivuba imuha ubushyuhe, kugira ngo ashyushye iki cyuma, ubundi abone kugihonda ku ibuye ryabugenewe, yifashishije abo baba bari gukorana, kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze kugenda neza.

Abagore bambaye imikenyero, bari kubyina imbyino gakondo bateze amaboko. Imbere yabo hateretse ingoma zo gutanga amajwi, mu gihe baraba barimbanyije imbyino zabo.

Abagore batatu, babiri bambaye amashapure n'uwa gatatu bari gukama ibitoki mu muvure, bifashishije inshinge kugira ngo bakuremo umutobe, ndetse iruhande rwabo hariho undi mudamu uhahagaze wambaye agapira k'umuhondo.

Igikoresho kibajwe mu giti. Cyifashishwaga mu kwenga ibitoki ndetse no kubikama bakoresheje ishinge n'amakoma kugira ngo umutobe ukwenga inzoga y'urwagwa.

Umuntu wambaye ibikomo mu maboko yombi, aho ari gusya ifu yifashishije bimwe mu bikoresho gakondo, birimo urusyo, ndetse n'ingasire, yarangiza ifu igatemba ku gafuka biteretseho.

Umubyeyi witeze igitambaro, akenyeye igitenge, afite igikoresho cya gakondo, cyitwa intara cyangwa se inkoko, kifashishwa mu kugosora; impeke, cyangwa se iyindi myaka, ziba zibikwa kugira ngo zibikanwe isuku.

Umusore mwiza wambaye ipantaro y'umukara yambaye isengeri y'umuhondo irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara yambaye bodaboda, ndetse yicaye ku ntebe ikozwe mu biti cyangwa se imigano, ndetse inyuma ye hari umuryango ugizwe n'urugi rwa metarike ndetse n'ibirahuri bya fime.

Abakobwa bane bikoreye uduseke cyangwa se ibyibo bakenyeye imikenyero irimo ibara rijya gusa umuhondo. Bateze amaboko bari gushayaya babyina imbyino gakondo, inyuma ya bo hariho abari kubaririmbira ndetse bari kubacururira kugira ngo bumve injyana yo kubyina.

Igikoresho kibajwe mu giti cifashishwa mu gusekura imyumbati, hifashishijwe umusekuzo cyangwa se umuhini, iruhande rwaho hari akayunguruzo, ibase y' ubururu ndetse n' isafuriya yo gushiramo ifu, nyuma yo kuyungurura, hariho umukobwa uri gusekura yifashishije ibyo bikoresho.

Umugabo wishimye cyane, ari kuvuza ingoma, afite imirishyo, yambaye urunigi ndetse yambaye ibihura by'imyeru by'intore, bigaragare ko ari kuvuza ingoma, kugira ngo ababyinnyi babone ububyina.

Igikoresho cya muzika kifashishwaga kera cyitwa umwirongi cyatanga amajwi meza ku bari kucyumva, ndetse umuntu wabaga ari kugikoresha yabaga aryoheye amaso kumureba, igihe yabaga yasusurukije imbaga y'abantu benshi.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu iri mu ubwoko bw'amakoboyi, yambaye ibirenge, yicaye ku kirago, iruhande rwe hariho ahantu hapanishije amabuye, ndetse asa n'aho ari gutekereza ku bintu runaka.

Ibikoresho bigera kuri bitatu, byifashishwa mu kugirwa inzu yororerwamo inzuki, bikaba byitwa imitiba cyangwa se imizinga, bikaba biba biboshywe mu rubingo ndetse bisizwe amase, kugira ngo byongererwe uburambe.

Itsinda ry'abantu bagari bafite imiheha, bari gusangira. Ukaba ari umuco washyigikirwaga kuva kera, uranga ubucuti buri mu gitaramo, cyangwa se kwizihiza umunsi runaka uba wabateranirije aho ngaho.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ahetse igikapu, yambaye n'imipira y'imikara, afite igikoresho cya muzika gakondo kidakenera umuriro w'amashanyarazi, cyangwa se ubundi bufasha, cyitwa ihembe, aho yabishyizemo ubukorikori, kugira ngo kijye gitanga amajwi meza.

Ubusabane bwitabiriwe n'abantu batandukanye bagenda basangirira mu ntango. Intango nayo ikaba irimo ibinyobwa birimo amarwa, urwagwa n'ibindi bitandukanye. Iyo ntango rero ikaba ikozwe mu kibindi kibumbye mu ibumba. Bifashisha imiheha kugira ngo bakurure ayo marwa ngo banywe.

Itsinda ry'abantu bagari bigaragara ko bishimiye isangira ryabo, aho bari gusangira umusururu buri wese afite umuheha ,ndetse akaba yishimiye ubwo busabane barimo nk'umuryango bateranye.

Igikoresho cya muzika ndetse cya gakondo kidakenera umuriro w'amashanyarazi, cyangwa se kidacomekwaho indangururamajwi, cyitwa inanga, aho kiba kigizwe n'imirya, kikaba kimanitse ku idirishya.

Abagore babiri bari gusekura isombe, cyangwa se ibindi bintu bitandukanye hifashishijwe igikoresho kibajwe mu giti cyitwa isekuro, ndetse n'umuhini wayo bibajwe mu biti kugira ngo bategure amafunguro ya buri munsi.

Umusore mwiza wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, afite igikoresho cy'umuziki cyifashishwaga kuva kera kugeza na n'ubu mu muco gakondo cyitwa inanga, kiba kigizwe n'imirya kandi kibajwe mu giti.

Abakobwa babiri bafite ibikoresho bitandukanye byitwa inkoko, cyangwa se intara byifashishwa mu gusukura ibinyampeke babigosora babikuramo ivumbi, ndetse n'ibindi bisigazwa byabyo nyuma yo guhurwa, kugira ngo babone ububibika bifite isuku.

Ababyinnyi bari gususurutsa imbaga. Hasi bambaye imikinyero y'imihondo, aho ab'igitsina gore bambaye udusengeri tw'imikara ndetse igitsina gabo bambaye hejuru ubusa, kandi bambaye imigara. Ndetse bafite amacumu mu ntoki.

Abagabo b'ibigango bambaye ibihura ku mutwe ndetse bambaye imikenyerero ya kinyarwanda, bafite amacumu n'ingabo. Bigaragara ko bari guhamiriza bagasusurutsa ababakurikiye mu birori.

Agakoresho ka kera kari mu ibara rigiye gusa umutuku, karimo utubara tw'imikara dusa naho ari utumenyetso, kandi tukagaragara nk'imitako. Karimo amarwa cyangwa se inzoga yabize urufuro hejuru bigaragaza ko yahiye.

Abagabo n'abagore bambaye kinyarwanda, bigaragara ko bari kwiyerekana mu mbyino gakondo, aho bamwe bafite ingoma n'imirishyo, undi yambaye ibihura, ndetse n'imyenda ya gitore ari kubyina.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe bafite imirishyo bari gukubita ingoma, bambaye amashati y'icyatsi ndetse n'imikenyero y'umuhondo ndetse n'imikenyero y'ubururu, inyuma yabo hari inzu gakondo ya kinyarwanda, bisa n'aho bari kwerekana ibirori ku bari kubareba.

Kamwe mu bikoresho bikoreshwa mu rugo, ndetse kuva kera kugeza na n'ubu, aho biba biboshywe mu bwatsi ndetse n'ibisigazwa by'imifuka, aho usanga bifitiye amabara meza bitewe n'uko babyifuza, bikaba byifashishwa mu gutwara ndetse no mu kubika imbuto cyangwa se impeke.

Umuryango munini cyangwa se ahantu binjirira, hasakaje amabati, kugira ngo uhahagaze cyangwa se imodoka ihanyuze ntize kunyagirwa, ndetse bikanarinda kubahasenyuka hasenywe n'imvura.

Umusore wambaye umupira w'umweru afite icumu ndetse n'ingabo mu kandi kaboko, akenyeye imikenyero y'umweru, ndetse yambaye ibihura mu mutwe. Ari gucinya akadiho kandi bigaragara ko yishimye.

Igicuma kiri mukoreshasho byakoreshwaga kuva kera kugeza na n'ubu mu mico zo mu byaro, ndetse rikaba rifatwa nk'umuco aho biba birimo umuheha, kandi bikaba bikozwe mu bihaza byahingwaga nyuma bikaza kuvamo igicumu.

Imyiyerekano ndetse ibirori byahuje abantu batari bake, aho harimo abari n'abategarugori bari kwerekana imbyino gakondo, aho bamwe bari gushayaya, abandi bafite ibisabo ndetse n'ibicuma.

Igikoresho gakondo kiba kibajwe mu giti kibambishije uruhu, ndetse gifite ibiti bibiri byitwa imirishyo. Cyifashishwa mu birori bitandukanye, mu gihe ababa babyina ndetse cyangwa se bari kuririmba, kugira ngo bumve umuziki babone ububyina. Cyitwa ingoma ndetse n'imirishyo.

Kuboha ni imwe mu mico yarangaga abantu b'igitsina gore, cyane cyane abangavu, babaga babiharaye ndetse bari gushaka ku byigishwa n'ababaruta, babohaga rero ibirago, imikeka ndetse n'ibindi bitandukanye, aho bafataga ubwatsi bwabugenewe bwitwa ubusuga, ndetse bagakoresha imideyi cyangwa se udusa udusagutse ku mifuka.

Bimwe mu bikoresho gakondo byatangaga amajwi meza y’umuziki bitewe n’abari kubivuza, hifashishijwe uduti twitwa imirishyo. Bikaba bibajwe mu biti, bibambishijwe uruhu rw’inka kugira ngo bitange amajwi y’imbyino.

Abagabo batatu bambaye amasengeri y'umukara ndetse bakenyeye imikenyero iri mu mabara y'umweru n'ubururu. Inyuma yaho hari abandi bari kubaririmbira, ndetse bari gukoma mu mashyi, hariho n'abakaraza bari kuvuza ingoma kugira ngo babone injyana yo kubyinamo.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga ingufu z'amashanyarazi hifashishijwe ireme bwite cyahawe, kandi kikaba gikoresha ingufu z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo haboneke gukorwa ibikorwa bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa mu gushyushya, cyangwa se guteka amazi cyangwa se ibindi bisukika, kugira ngo byihutishwe mu kuboneka vuba, hifashishijwe umuriro w'amashanyarazi.

Igikoresho cyifashishwa mu kubara umuriro w'amashanyarazi, kizwi ku izina rya mubazi aho kibara umuriro wakoreshejwe usigayemo, ndetse n'uwaguzwe mu gihe runaka.

Kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga aho usanga kifashishwa mu gugupa cyangwa se gukupura umuriro , ndetse kikaba cyitwa mubazi . Aho usanga kibara umuriro wakoreshejwe , kikerekana umuriro usigayemo , ndetse n'uwo umaze gukoreshwa mu gihe runaka.

Kimwe mu bikoresho bigize imyubakire y'umuriro w'amashanyarazi, uko iba ihererekanya imbaraga mu nzu, iki gikoresho rero kikaba cyifashishwa mu kuzimya cyangwa se kwatsa amatara ari mu byumba bitandukanye.

Ahantu hitaruye harimo inzu imaze kugera ku gihe cyo gusakarwa, ndetse n'igisenge bamaze kugishyiraho. Hasigaye gushyirwaho amabati, ndetse no gukinga inzugi, ubundi bagatangira kuyikorera amasuku.

Inzu yubakishije amabuye y'amakoro asize ibara ry'umukara, ndetse harimo n'amarangi y'umweru, isakaje amabati asa naho yaguye umugese bitewe no gusaza, cyangwa se kumara imyaka myinshi. Iyo nzu kandi ikingishije inzugi z'ubururu, n'amadirishya y'ubururu.

Umwe mu myuga itunze abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, ni umwuga w'ubwubatsi aho usanga abawukora bitwa abafundi, baba bambaye imyenda y'akazi y'amasarobeti ndetse na bote kandi bagakoresha ibikoresho bitandukanye, harimo nk'amapiki n'ibitiyo mu gihe baba bari gutegura aho bagiye kubaka.

Inyubako rusange igaragaza ko ari ibyumba by'amashuri, bisize amarangi y'umweru, ndetse n'inzugi z'ubururu. Ifite n'amadirishya y'ibirahuri, hariho umuyobozi waryo ndetse bigeretse rimwe, aho hari abiga muri etaje, mu nzu yo hejuru.

Ibihingwa by'imboga biteye mu busitani, buri iruhande rw'inyubako zisa n'aho ari rusange, bikaba ari ibihingwa bya karoti ziba zigeze igihe cyo kuba zabagarwa, ziri hafi kwera bigaragare ko zimaze gukura.

Igikorwa cyo kubaka inzu zirenda kugera ku musozo, zigizwe n'ibikwa ndetse no gusakarwa, hakaba hasigaje gushyirwa amabati ,kuko sharupande yararangiye izo nzu zikaba zitondetse ku murongo umwe bigaragare ko ari ibyumba.

Imbaga y'abantu benshi yateraniye ahantu ku kiliziya cy'Abagatolike, bateze amatwi ijambo ry'Imana, kandi bateze yombi umuntu uyoboye iki giterane cyangwa se amateraniro.

Igipapuro kirambitse ku meza cyanditseho umurenge Sako, ifishi yo gusaba serivisi z'umurenge Sako, hifashishijwe ikoranabuhanga . N'igipapuro rero kiba bakiririho imyirondoro, ndetse n'ahoho umuntu avuka, ndetse na nimero za telefone, bitewe na serivisi ashaka ndetse n'aho yaturutse.

Inyubako ndende kandi zibereye amaso zigeretse gatatu gatatu mo hagati hanyuzemo umuhanda uzitandukanya, ndetse harimo n'amatara ashinzwe kumurikira abantu nijoro, harimo n'umuntu uri kugenda ku igare ari kwishima.

Inyubako cyangwa se inzu yubatse neza, bigaragara ko yagenewe amasengesho cyangwa se ibiterane byo kuramya no guhimbaza Imana. Hejuru hariho umusaraba, ndetse hariho n’ishusho ya Bikira Mariya, yerekana ko ari mu banyagatolika.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho zisize amabara y'ikigina, ndetse zifite inkingi zikomeye cyane. Zifite urugi rukozwe mu byuma, ndetse n'amadirishya akozwe mu byuma, ndetse zifite n'igipangu kiyikikije ku buryo ntawapfa kwinjiramo. Imbere y'aho hari ibisigazwa by'amabuye akomoka ku makoro.

Inzu rusange yateguwe na leta, aho iba igamije gufasha abantu kugira ngo bagire imirire myiza, cyane cyanee abagore batwite ndetse n'abana batoya, hibandwa ku bantu bafite ubumuga ndetse bafite n'intege nke mu kuba babona amafunguro yujuje indyo yuzuye.

Inyubako ndende, igaragara mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Irimo ibirahuri bibonerana ndetse n'amadirishya n'inzugi. Imbere yaho haparitse imodoka, ndetse hariho n'izindi ziri gutambuka. Ikaba igeretse gatatu iyo hasi utayibaze.

Inzu zibereye amaso mu kuzireba ,ndetse zikurura abatari bakeya kugira ngo bajye kuzireba, zitwa indangamurage, kuko tuzisanga ku birangantego bitandukanye by'igihugu.

Abana b'abakobwa n'abahungu bicaye mu cyumba cy'ishuri, aho bisa naho bari mu kizamini bitewe n'ukuntu bicaye, umwe yicaye inyuma y'undi ku buryo ntawahindukira ngo arebe ku rupapuro rwa mugenzi we, bitewe n'uko bari kureba mu mugongo w'undi.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga biri guhererekanya ibikoresho by'ubwubatsi, harimo isima, amazi, beto, igaraviye n'umucanga. Aba bantu rero ni abakozi bitwa abayede, hariho n'imodoka iri kugenda ivanga sima ndetse n'amabuye n'umucanga. Iki gikorwa cy'ubwubatsi rero bari kubaka umuhanda.

Inyubako cyangwa se inzu igeretse gatatu, aho ifite ibirahuri ndetse n'amadirishya. Ifite inzugi ikaba ifite esikariye zo kuzamukiraho, mu gihe umuntu aba azamutse mu nzu yo hejuru.

Abakozi bambaye ingofero z'imyeru, ndetse n'amajire y'akazi ariho utugarurarumuri, ndetse n'inkweto z'akazi zirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakwinjira ku rukweto ngo rukomeretse ikirenge. Ubwo rero bakaba bari kuganirira hamwe bisa n'aho ari bo bagejeje igikorwa aha kigeze cyo kubaka amazu.

Imihanda yubatswe mu buryo bwa kijyambere iri ibumoso n'iburyo, hagati hakaba hateyemo ubusitani bugizwe n'imikindo ndetse n'izindi ndabo zitandukanye. Ku ruhande rwazo hariho ibipangu bibiri, ndetse n'igipangu harimo inzu y'igorofa igeretse kabiri.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ,ndetse ifite umunara hejuru hariho ikimenyetso cy'umusaraba ,bigaragaza ko ari aho abantu basengera ,cyane cyane abizerera muri kiliziya gatolika.

Abihayimana cyangwa se abiyeguriye gukora umurimo w'Imana, bambaye amakanzu y'imyeru uhagarariwe n'ubakuriye witwa umupadiri, ndetse n'abandi bamuri ku ruhande bitambye ibitambaro by'imyeru bitwa ababikira, na bo biyeguriye gukorera Imana.

Inyubako igeretse kabiri, imbere yaho hariho idarapo ry' u Rwanda, isakaje amategura cyangwa se amabati y'umutuku, iyi nzu rero ni ingoro y'ubutabera y'Akarere ka Musanze.

Uruzitiro ruzitije inzu rusange zisa naho ari amashuri cyangwa se ibitaro. Uru ruzitiro rukaba rukozwe mu byuma, aho nta kintu gifite umubyimba munini cyakwinjiramo, wenda usibye nk'amasazi cyangwa se inyoni.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Isize amarangi y'umweru ndetse n'ikigina. Yandikishijeho amagambo y'ubururu. Handitseho ngo:" Ibiro by'Intara y'Amajyaruguru". Ndetse hari aho munsi y'aho handitse mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza.

Umukecuru ufite akabando ndetse n'agahago ko kugendana wambaye inkweto zitwa bunyagwe ziri mu ibara ry'umuhondo. Akenyeye ibitenge by'ubururu ndetse yambaye n'agapfukamunwa, yipfutse n'igitambaro mu mutwe, ari kugenda mu muhanda impande y'inyubako zitandukanye.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umuhondo, yubakishije uruhande rumwe amakoro, ifite ibirahuri by'ubururu bigeretse kabiri, ndetse n'inzu ya gatatu yo hasi. Imbere yaho hari umucaca mu ibara ry'icyatsi, ndetse harimo n'utuyira abahagaze imbere barikuyireba baba bahagazemo, ndetse iri mpande y'umuhanda.

Inzu cyangwa se inyubako isakaje amabati y'umutuku, yubakishije amabuye y'amakoro, ndetse yarakotewe, aho bakoteye bakahasiga ibara ry'umweru, ndetse ku mabuye bagasigaho ibara ry'umukara, hejuru hariho akandi kazu kagaragaza ko ari ibiro by'akagari, ndetse imbere yaho hariho umucaca abantu bicaramo mu gihe baba bategereje.

Ikiraro cyo mu kirere kivuye ku musozi umwe kikagera ku wundi, nta kindi kintu gifasheho ndetse kiri kudenda, aho hari kunyuraho abantu basa naho bari kukitegereza, ndetse bishimiye kukinyuraho.

Amasaha y'ikigoroba akazuba kari kuva, mu muhanda wa kaburimbo uri hagati y'ibipangu bibiri byubakishije amatafari, muri ibyo byombi muri ibyo bipangu by'ibumoso harimo insina ndetse n'ibiti by'avoka, icy'iburyo harimo amababi y'ibisheke biri guhinguka bisa n'aho babiteyemo.

Abadamu bishimye cyane, basa n’aho bari kwishimira amakuru bahawe. Ndetse bigaragara ko bafite ubwisanzure ndetse n’uburenganzira bwo kugira ijambo bahawe hano mu gihugu cy’u Rwanda.

Umukecuru ufite indangururamajwi inyuma ye hariho abandi bantu bategereje ngo ibyo ari kuvuga birangire, bisa naho ari mu nteko irimo abayobozi iri gukemura ibibazo by'abaturage bigiye bitandukanye akaba ari we ugezweho gutanga ikibazo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara wambaye n' indorerwamo, afite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro mu bantu b'imbaga nyamwinshi, ndetse bamuteze yombi kubyo ari kubabwira.

Inteko y'abaturage irimo abagore n'abagabo bo mu mudugudu bayobowe n'umudamu umwe ari ukubagira inama cyangwa se ari kubahugura muri bimwe by'indangagaciro z'ikiremwamuntu

Umudamu wambaye amaherena, wambaye isaha ku kuboko, afite mikorofone cyangwa se indangururamajwi ari gutanga ikiganiro. Inyuma ye hari umudaso umucungiye umutekano, ndetse n' inyuma ye hariho umurima w'ibigori bigeze mu gihe cyo guterera.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'agapira k'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, ari gutanga ikiganiro mu baturage, abagore, abagabo, abasore, n'urubyiruko bamuteze amatwi, biteguye gukurikiza inama ari kubagira, cyangwa se amakuru ari kubaha.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu rusisiro, bari kugenda mu buryo butandukanye, harimo abari kugenda n'amaguru, hakabamo abari kugenda n'amamoto, ndetse harimo n'abari kugenda n'amamodoka, bagiye mu nce zitandukanye, bavuye hamwe bajya ahandi.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru, imodoka iri kugenda mu muhanda isa naho itwara abagenzi rusange, ndetse ifite n'izindi modoka biri kugendana mu muhanda zifite icyerekezo kimwe.

Ingendo zo mu buryo butandukanye, harimo iza moto, iz'imodoka ndetse n'iz'amaguru, aho hariho n'abagenzi bategereje kwinjira mu modoka nini itwara abantu, ikabageza mu gace kamwe ibakuye mu kandi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda, hagati mu muhanda harimo, ibinyabiziga bitwara imizigo, cyane cyane ibigiye kuranguza mu mangazini, ndetse no mu maduka atandukanye.

Umwuga wo gutwara abagenzi hifashishijwe ibinyabiziga nka moto, ni umwe mu mwuga utunze abantu batari bakeya hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, aho usanga abagenzi bagenda batega moto aho ziba ziparitse, zikabageza aho bifuza.

Imodoka nini itwara imizigo iri mu ibara ry'umutuku, ipakiye bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi byitwa umucanga, bisa n'aho imaze gupakira, igiye kwerekeza aho igomba kubijyana.

Umugabo utwaye ikinyabiziga cya moto, ndetse ari kumwe n'abagenzi be mu muhanda, yambaye ijire y'umutuku iriho ibirango by'imirongo y'itumanaho, ndetse ari kumwe n'abandi mu muhanda wa kaburimbo.

Ibinyabiziga byagenewe gutwara imizigo iremereye harimo imicanga, amagaraviye ndetse n'ibindi bitandukanye . Ibyo binyabiziga rero bikaba byitwa za Ruvakwaya cyangwa se za Hoho ,aho usanga bibarizwa mu mabara atandukanye harimo nk'ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara atandukanye . Ibyo binyabiziga bigira amapine cyangwa se imitende igera kuri cumi n'ebyiri.

Uruja n'uruza rw'abantu bari mo rusisiro cyangwa se mu mujyi, bari kugenda n'amaguru abandi n'imodoka, bategereje imodoka kugira ngo bajyemo ziborohereze urugendo bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Urujya n'uruza rw'abantu bamwe bari kugenda n'amaguru abandi bari kugenda ku magare, harimo abagore babiri batwaye amagare, ndetse ahetse imizigo iremereye ,bigaragare ko bavuye guhaha ndetse bari mu rugendo rurerure.

Urujya n'uruza rw'abantu, batwara abagenzi, n'ibintu, cyangwa se imizigo yabo, bifashishije amagare, aho bagenda banyonga, ahazamuka, bagasunika, bityo rero bakaba bakorera amafaranga, bagatunga imiryango yabo.

Bimwe mu binyabiziga biba biri birebire ndetse bifite amapine cyangwa se imitende myinshi, aho usanga bitwara imizigo ivuye ahantu ha kure, cyane cyane hanze y'igihugu, zizwi ku izina rya rukururania cyangwa se ruvakwaya.

Imodoka zitwara abagenzi kandi nini ziri mu mabara atandukanye, harimo : nk'umuhondo, ndetse n'umweru. Ku ruhande rw'iburyo hariho n'iyindi y'ubururu, ndetse n'umweru, zikaba ziri kwerekeza mu cyerekezo kimwe, zitegereje abagenzi ngo zibatware.

Urujya n'uruza rw'abagenzi bari kugenda mu rusisiro, aho buri wese aba agiye gushaka amaramuko. Bamwe bari kugenda n'amaguru, abandi bari kugenda n'ibinyabiziga byoroheje nk'amagare, ndetse baba bambaye n'inkweto zo mu bihe bitandukanye nka bote, za kamambiri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko bagiye mu ruzinduko, aho bahuriye ahantu baje gushakira imodoka kugira ngo zibageze kuva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Abasore n’inkumi bambaye impuzankano mu mabara atandukanye, harimo imipira y’imituku, icyatsi ndetse n’imihondo, basa n’aho bagiye mu rugendoshuri, bafite ibiryamirwa ndetse n’ibyo bazifashisha bagezeyo.

Bimwe mu binyabiziga bitwara abagenzi, bibavana mu gace kamwe bibajyana mu kandi. Aho usanga bi bibarizwa mu mabara y'umweru, n'umuhondo.

Itsinda ry'abagore n'abagabo barimo n'umuzungu, bisa naho bari mu ndege kandi bakaba bakora akazi kamwe ko gutwara indege cyangwa se gutanga serivisi ku bagenzi bafashe urugendo rwo mu kirere.

Abagabo batatu bari kuganira, aho umwe agiye gusohoka mu modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ,aho abandi basigayemo ,iyo modoka kandi harimo intebe z'ubururu ndetse n'umutuku bitewe n'amabara bazigeneye.

Abagabo bicaye mu bwato ndetse bisa n'aho bagiye gufata urugendo, hakaba harimo n'imizigo ya bo, aho bagiye kwambuka amazi magari, bifashishije ubwikorezi bw'ubwato.

Umumama wambaye imyenda mu ibara ry'ubururu, ufite ikarita ikoresha ikoranabuhanga mugihe umuntu agiye kwishyura urugendo agiye gukora, mu modoka zitwara abagenzi rusange, aho amafaranga yikuraho muburyo bumwe cyangwa ubundi.

Umugenzi wambaye ishati y'umweru, afite ikarita yifashishwa mu kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, mu ngendo rusange, aho umuntu yishura hakoreshejwe ikoranabuhanga mu kuva mu gace kamwe ajya mu kandi.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuyemo mu duce dutandukanye, bamwe bari kugenda n'amaguru, abandi bari kugenda n'imodoka, ndetse n'amagare, bari impande y'umuryango w'aho imodoka ziparika, zigiye gutwara abagenzi mu karere ka Rubavu.

Umukino w'isiganwa ry'amagare, umukino ukunzwe n' abatari bake hano hirya no hino ku isi, aho abantu usanga bahururiye bahagaze ku mihanda hakurya no hakuno ndetse bagiye mu magorofa maremare kugira barebe ibyo byiza.

Ukwiyerekana ndetse kugaragaza ubucuti hagati y'abakinnyi babiri batandukanye, bakina umukino w'intoki. Aho bakurusha ibikoresho bitandukanye mu gihe baba bari gukubita umupira wabo cyangwa se agatenesi kabo, kugira ngo kagere ku ntera bashaka ko kageraho.

Abakobwa babiri bambaye imipira isa hasi ni amakabutura asa bafite; umwe afite umupira mu ntoki mu kuboko kw' iburyo asa naho agiye guheza bagenzi be, kugira ngo bakomeze umukino, inyuma ye hari abagabo bicaye bambaye umutuku ndetse n' umweru.

Umwe mu mikino y'intoki ikundwa n'abatari bake hano mu Rwanda, iyo mikino ikaba iri gukinwa n'abagore, aho umugore wambaye imyenda y'ubururu, agiye gushyira baro muri paniye, abandi nabo bakaba bagiye kumuzibira, uwo mukino rero ukaba uri kubera muri muri sitade...

Umukinnyi w'igitsina gore ufite umupira mu ntoki , mu kaboko k'ibumoso , afite imisatsi isutse yambaye umupira wo gukinana wanditseho Rwanda, afite nimero makumyabiri na kane, aho uwo mupira uri mumabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda z'ubwirinzi, bahagaze mu nkengero z'umuhanda, bari kwerekana igikorwa cyo gushyigikira abakinnyi b'amagare, bari babanyuzeho bari gusoroma icyayi, aho bari bari gusoroma bambaye imyenda yo kugira ngo inzoka zitabarya, harimo nka bote ndetse n'amashashi ari mu ibara ry'umuhondo.

Igikundi kinini cyane cy'abasore bambaye amakabutura ndetse n'amasengeri ya siporo hagiye handitseho nimero zigaragaza buri wese nimero ye. Bambaye inkweto za siporo bigaragara ko bari marushanwa yo kwiruka, aho buri wese aharanira kuba uwa mbere.

Abasore n’inkumi bari kwidagadura, bambaye imyenda igizwe n’amakabutura ndetse n’imipira iri mu mabara atandukanye, harimo nk’ubururu, umweru, umukara ndetse n’umuhondo. Bari gukina umupira w’intoki ndetse bishimye. Hariho n’abari kubareba bitewe n’uko babikunda.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ndetse undi wambaye ikote n'ipantaro n'ishati y'ubururu, ari kumushyikiriza ibihembo birimo imyenda ya siporo, ndetse n'imipira yo gukina.

Umusore w'uruhu rwera yambaye imyambaro y'umuhondo n'ubururu, yambaye ingofero y'ubwirinzi ,ari gutwara igare bisa naho agiye cyangwa avuye mu marushanwa yo gusiganwa ku magare ,ari kugenda muri kaburimbo.

Igikoresho cyifashishwa mu myidagaduro nk'umukino wintoki, kiri mu mababara y'umuhondo, umweru, ndetse n'ubururu. Hariho amagambo akiranga, hariho ingano yacyo, ndetse n'uburemere bwacyo, ni umupira w'intoki.

Umusore mwiza, muremure, wambaye agakabutura k'icyatsi, wambaye amasogisi y'umukara, n'inkweto za siporo, afite igikoresho cyifashishwa mu gukubita agatenesi kaba gakinwa mu mukino wintoki, bigaragara ko ategereje ngo kaze abone ubukina.

Abana bambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'ubururu, handitseho ngo Isonga. Hariho undi wa kane ku ruhande wambaye ipantaro y'itiriningi ndetse n'agasengeri k'umuhondo. Bisa n'aho bari kwirukanka mu muhanda bari mu marushanwa. Hariho n'umuntu ufite ikaye yo mu ntoki bisa n'aho ari kubara amanota yabo ndetse nuko bari gusiganwa.

Igikundi kinini cy'abasore bahanganye mu muhanda hagati bari mu marushanwa cyangwa se amasiganwa hifashishijwe amagare umukino ukundwa n'abatari bake hano mu gihugu aho buri wese aba aharanira kugira ngo abe uwambere yegukane iryo rushanwa.

Umusore ufite uruhu rwera wambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'ubururu, yambaye n'ingofero yubwirinzi, yambaye n'ibirahuri mu maso yo kumurinda umuyaga mugihe aba ari mumarushanwa yo kugenda ku igare. Bisa naho abonye intsinzi akaba ari kuyishimira.

Icyanya cyangwa se ahantu hagenewe kwakira abantu batandukanye ndetse bari umubare wo hejuru aho baba baje kwitabira ibirori cyangwa se amarushanwa y'umupira w'amaguru, aho usanga bicaye mu ntebe zabugenewe ndetse n'abakinnyi bari gukinira mu kibuga kiri hagati aho buri wese aba abitegeye ari kubareba neza.

Umusore wambaye umupira w’ubururu, ndetse afite n’imisatsi y’imisukano, yambaye n’ikabutura. Afite agatenesi k’umuhondo kamwe kagaragara mu mukino w’intoki kifashishwa mu gukina tenisi.

Abantu bambaye imyenda ya siporo bisa n'aho ari siporo rusange, bishimiye igikorwa barimo ndetse bahawe umurongo ngenderwaho kugira ngo bagendere mu mujyo umwe, kandi mu gasaha k'ikigoroba bisa n'aho bose bari babiziranyeho.

Ibyishimo by'abantu baturutse mu mpande n'impande, baje kurebera abakinnyi bari gusiganwa ku magare. Bamwe bahagaze hejuru y'amazu, bafite amadarapo agaragaza ko bari gufana uwo mukinnyi uri mu ikipe bari gufana bashyigikiye.

Itsinda ry'abakinnyi bambaye impuzankano y'ubururu ndetse ya siporo, bigaragara ko bishimiye intsinzi cyangwa se bageze ku ntego runaka bari barihaye, umwe yambaye nimero mirongo ine na kabiri, ndetse n'abandi bose bambaye nimero mu mugongo ibaranga.

Abahungu babiri umwe yambaye agapira k'ubururu karimo n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'umuhondo, yambaye agakabutura k'umutuku yambaye n'inkweto za siporo. Ari kumwe na mugenzi we wambaye agapira k'umukara, n'ikabutura bari guhabwa ibihembo birimo igikombe bigaragara ko batsinze amarushanwa.

Imwe mu mikino ikinwa, bakina mu Rwanda ndetse n'amahanga, abagore bateranye bari gukina umupira w'intoki uzwi nka volebolo.

Umukino wahuje amakipe abiri atandukanye hariho n'abafana baje kuwukurikirana akazuba kari kuva . Mu kibuga, abakinnyi bari kwirukanka bashaka ukuntu bashimisha abafana baje kubashyigikira.

Abasore batatu bambaye imyenda y'umyeru, ndetse n'undi musore wa kane wambaye imyenda y'umuhondo irimo n'amabara y'ubururu. Afite umupira mu ntoki. Bisa n'aho hari amakipe abiri ahanganye mu mupira w'amaguru.

Amakipe abiri y' abagore ahanganishije, mu gukina umukino w' intoki, aho bamwe bambaye imikara, abandi bambaye ibara rijya gusa n' umweru bari gushaka guhagarika, uwashaka kugenda ngo abatsinde mu ikipe yabo.

Umukinnyi wambaye imyenda ya siporo yo mu mabara y'umutuku, harimo utubara t'umweru, ndetse n'umuhondo, n'umukara. Bigaragare ko yishimiye intsinzi cyangwa se akaba ategereje umupira ari gukina w'intoki ngo awukubitishe igikoresho afite mu ntoki.

Abasore bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye ubururu, abandi bambaye imikara. Aho basa nk'aho ari amakipe abiri ahanganye mu mupira w’amaguru. Ndetse abambaye ubururu bari gusatira abambaye umukara, na bo bagashaka kubahagarika.

Umwana ukiri mutoya bisa n'aho ari kwitoza kwimenyereza kugendera ku igare, yambaye imyenda y'ubwirinzi irimo n'ingofero, ndetse yambaye ikabutura n'umupira bya siporo.

Umusore muremure wambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'inkweto zisa n'icyatsi, yambaye n'umupira w'amaboko maremare wanditseho makumyabiri na kabiri. Hariho n'ibendera ry'u Rwanda, afite umupira mu ntoki ari gukora imyitozo.